Abaganga benshi bari ku bitaro bambaye impuzankano y'abaganga barimo n'umugore wambaye imyenda y'umutuku bigaragara ko ari umuterankunga cyangwa hari ubundi buryo bakoranamo.

Umubyeyi wambaye ibitenge acigatiye umwana bisa naho aho ari kumuhereza umugabo uri imbere ye wambaye impuzankano garagaza ko ari umuganga cyangwa se umufasha w'abaganga hari n'umuzani bigaragara ko bari gupima abana.

Agatanda gatoya karambitseho ibikoresho bitandukanye bigaragara nk' ibyombo birimo ibikombe amasahani n'ibisuperi….

Ikimashini kinini gikoreshwa kwa muganga gifite ibintu bitatu bisa ubururu, bigaragara nk'aho haba habitsemo umwuka.

Abantu barikumwe bigaragara ko bari bari mu cyumba cy'inama bari ahantu handitse ngo uburyo bwo gukumira no kurwanya ugutwita kw'abangavu, byumvikana ko aricyo gikorwa barimo bitaho.

Umubyeyi ucigatiye umwana bari kumwe na muganga wambaye impuzankano y'umweru yafunguye akanwa k'umwana ari gusukamo umuti.

Inyubako nini isakaje amabati ajya gusa umutuku iri ahantu hisanzuye, imbere yaho hari ibindi bintu byubatse biriho amazi hejuru.

Umugore wikenyeje igitenge wambaye n'ingofero uri ku mugezi arimo kuvoma afite injerekani za litiro makumyabiri zifite ibara ry'umuhondo.

Abantu batatu bari ku mugezi, barimo umugabo uri kuvoma ku mugezi umwe, n'umugore uri kuvoma ku wundi, hejuru hari umugore wambaye agapira k'umweru ari kubaganiriza.

Abagore batatu bicaye mu cyumba kimwe, bigaragara ko ari icyumba cyo kwa muganga, babiri muri bo bafite ibitabo imbere yabo basa n'aho hari amakuru bari kuzuzamo, undi arimo abareba nta kintu ari gukora.

Umugore ufite indangururamajwi y'umukara, wifashe ku mutima bigaragara ko afite amarangamutima, bitewe n'amagambo ari kubwira abamwumva.

Abantu bane bambaye udupfukamunwa barimo abo bigaragara nkaho ari abaganga bicaye ku ntebe imbere yabo hari ameza ariho mudasobwa ndetse n'abandi bahagaze bigaragara ko hari ibintu bari kubabwira inyuma hirya hicaye umusaza na we wambaye agapfukamunwa.

Abana bari ku mugezi, bambaye impuzankano z'ishuri, bafite utudobo dusa n'umuhondo, bari kuvomeramo amazi, bamwe bari no kuyakaraba.

Umubyeyi ucigatiye umwana, bari kumwe n'umuganga wambaye uturindantoki ndetse n'impunzankano yabo, bigaragara ko umwana ari we urwaye, ari we uri guhabwa ubuvuzi na muganga.

Impine igizwe n'inyuguti ya U na N na I na C na E na F, ivuga ko ari ikigo cy'isi gishinzwe ubuzima bw'abana.

Umwana muto wambaye impuzankano y'ishuri uri kumwe n'umubyeyi uri kumukarabya intoki amushyizeho isabune nyinshi kugirango abe afite isuku.

Abantu benshi batandukanye barimo ntaho bigaragara nkaho hari abaganga, bambaye impuzankano z'ubururu ubusanzwe zambarwa n'abaganga iruhande rwabo hari icyapa kigaragaza ibyo barimo bakora.

Abagabo batatu bambaye udukoresho tw'isuku mu mutwe, bambaye n'udupfukamunwa, bambaye n'imyenda ibarinda, bigaragara ko ari abaganga bafite n'udukarito turimo ibikoresho.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, hari batatu bari imbere bigaragara ko aribo bayoboye inama, bafite uducupa twamazi ku meza yabo.

Ikirango kirimo umubyeyi ucigatiye umwana bisa naho kiranga ikigo kimwe kinini cyita ku buzima haba ubw'abana cyangwa ubw'ababyeyi cyangwa se bose hamwe.

Abantu bari mu nama barimo abagabo babiri bicaye imbere, bafite indangururamajwi imbere yabo n'uducupa turimo amazi, inyuma yabo hari amagambo avuga ngo "muhagarike icyorezo cya Marburg."

Umwana mutoya w'umuhungu wambaye agapira k'umuhondo n'ikabutura y'umukara, uri ku mugezi arimo avoma amazi meza.

Abana b'abakobwa, bambaye impuzankano igaragaza ko ari abanyeshuri, igizwe n'ishati y'umweru ndetse n'ijipo y'ikijuju, bari ku mugezi.

Inyubako ndende ifite amabati ajya gusa umutuku inagerekeranye imbere yayo hari indi nyubako iriho amazi.

Umugore wambaye imyenda y'ubururu yambikwa abarwayi bari kwa muganga wicaye ku gitanda ariku n'umuganga wambaye impuzankano y'umweru ari kumupima.

Abana batatu bari ku mugezi bari gukaraba bambaye impuzankano bigaragara ko ari abanyeshuri bafite ibifuro byinshi ku ntoki zabo.

Umugore ucigatiye umwana we yambaye ibitenge, inyuma ye hari abandi bagore benshi bari kumwe n'abana bigaragara ko hari nk'igikorwa cyo gufasha abana cyabereye ku bitaro.

Abagore n'abagabo ubona ko atari bato cyane ariko atari n'abakuru cyane, bari mu cyumba bigaragara ko ari icyumba cy'inama, bambaye impuzankano isa ubururu bose.

Icyumba bigaragara nk'aho ari icyo kwa muganga, kirimo abantu babiri, umwe yicaye w'umugore undi ahagaze w'umugabo, harimo na mudasobwa zitandukanye, imwe isa umutuku indi isa umukara.

Umugabo w'umusaza ubyibushye, wambaye ikote uri kumwe n'umugore wambaye ikanzu, bari iruhande rw'amafoto agaragaza ko bafasha abana.

Umugabo wambaye ishati ya makarokaro n'ipantaro y'umukara, ufite ijerekani y'umweru, ari iruhande rw'umugezi, arimo aseka, bigaragara ko yishimiye ko yabonye amazi.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara uri gukarabira intoki kuyikandagira ukarabe ikozwe nakajerekani gato kajya muri litiro eshanu.

Abantu benshi biganjemo abambaye impuzankano y'ubururu, bigaragara ko bari mu gikorwa gishimishije, bari kuririmba banakoma mu mashyi.

Ababyeyi benshi bacigatiye abana babo bari kwa muganga byumvikana ko habaye igikorwa nk'icyo kubakingira cyangwa kubapima cyangwa se ibindi bintu bikorerwa abana.

Umugore wikenyeje igitenge, wambaye n'ingofero, ufite ibijererekani byinshi, uri ku kumugezi uriho amatiyo abiri yose ari kuvamo amazi meza kandi menshi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga, bareba uko umurwayi ahagaze, harimo n'abaganga barimo uwambaye agapfukamunwa ndetse n'impuzankano y'icyatsi.

Umugabo uhagaze afite n'indangururamajwi imbere ye bigaragara ko ari nko mu nama hari abantu ari kubwira, iruhande rwe hari intebe ziticayeho abantu n'utumezaza turiho amazi.

Akana gato kambaye imyenda idoze mu bitenge kari ku mugezi uri guturukamo amazi menshi, gakaraba intoki arengaho amanuka akajya mu ibasi.

Abasore babiri bari kuganira umwe akoresha ibimenyetso cyane, bigaragara ko hari ikintu ari gusobanurira mugenzi we wambaye umupira w'ubururu bose bambaye udukomo dufite ibara ry'ubururu.

Umugore, iruhande rwe hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, asobanura ngo dukwiriye kuva mu nzira yacu, tugashaka abandi bafatanyabikorwa, kugira ngo ubuvuzi bwegere buri muntu wese ubukeneye.

Abagore batanu bicaranye bari kuganira, barimo umwe ufite imisatsi y'umukara miremire yambaye imyenda y'iroza, bigaragara ko ari umuganga ariwe uri kubaganiriza.

Abantu benshi bari mu nama, harimo abaje kwitabira inama n'abandi bicaye imbere yabo, bigaragara ko ari bo bayoboye inama ndetse n'umugabo uri ku nsakazamashusho ufite n'indangururamajwi imbere ye.

Abantu bari kumwe biganjemo abambaye imipira y'umweru iriho n'ibirango bisa imbere, hari umugabo wicaye afite ikayi isa naho yanditsemo amakuru ndetse ari n'umugabo wambaye ijire bigaragara ko ari nk'umukorerabushake.

Umugabo bigaragara ko ari mu nama afite indangururamajwi imbere, iruhande rwe hari intebe ziticayeho abantu ariko nazo zifite indangururamajwi ndetse n'udupa twa'amazi duteretse aho ngaho.

Abagabo benshi bambaye amakote, bari kumwe n'abagore bari imbere y'amagambo avuga ko hari inama yahuje umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'Icyongereza.

Ibiganza biri gukaraba amazi meza n'ubwo ari kuza ari make, ava mu gikoresho gifite ibara ry'ubururu, bigaragara ko cyagenewe gutunganya amazi kandi kiriho n'isabune ku ruhande.

Urutonde ruriho ibyigwa ndetse n'ibisobanuro byabyo, iruhande harimo ubuzima bwo mu mutwe, bavuga ku bwonko, harimo uburyo bwo kugera ku buvuzi, hariho indwara ndetse hariho n'ibijyanye n'imyororokere.

Abagore batatu bigaragara ko baje ku kigo nderabuzima bari kumwe n'umuganga uri kubapima akoresheje ibikoresho byifashishwa n'abaganga bapima uko umurwayi ahagaze.

Abana babiri bari kuvoma amazi mu mugezi w'amazi atemba, byumvikanisha ko ahantu bari ari ahantu hari ikibazo cy'amazi kuko batabona amazi meza asukuye.

Umubyeyi witeze igitambaro mu mutwe anikenyeje igitenge, ari kumwe n'abana benshi bari ku mugezi, bamwe bari guhaga amazi ajya mu ibase iri ku mugezi.

Abagore benshi barimo abambaye impuzankano bigaragaza ko ari nk'abajyanama b'ubuzima, bari bari kumwe na bagenzi babo babaganiriza ku buzima bwabo.

Icyumba cy'inama kirimo abantu benshi barimo abantu benshi bicaye bitabiriye inama buri meza ubona ko hariho agacupa, hari n'abandi bari imbere bagera kuri batandatu bigaragara ko aribo bayoboye inama.

Abantu benshi bambaye imipira isa y'umweru, abandi bambaye iy'ubururu, bambaye n'gofero z'umweru, bafite ikirango cyanditseho ngo ''umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri, isuzumishe turandure kanseri y'inkondo y'umura''.

Abantu benshi bari mucyumba bigaragara ko hari icyumba cy'inama, kumeza manini yabo hariho amazi meza yo kunywa, kugikuta hariho ifoto ya perezida Paul Kagame

Abantu benshi barimo ababyeyi bacigatiye abana babo, hari n'abandi bari gufasha abo babyeyi kugaburira abana, bigaragara ko hari igikorwa cyabayeho cyo kugaburira abana.

Abagore babiri bicaye imbere y'ameza ariho mudasobwa, umwe ari kuyikoresha, undi ari gukoresha uburyo busanzwe yandika, imbere yabo hahagaze umugore bigaragara ko ariwe bari gufasha, abandi bategereje.

Ibirango by'ibigo bigiye bitandukanye, harimo igishinzwe ubuzima bw'abana ku Isi, harimo igishinzwe ubuzima bwiza ku Isi, harimo igishinzwe impunzi harimo ibishinzwe amazi n'ibindi.

Abana benshi bari gukina ubona ko ari urungano, barimo abasa naho bambaye imyenda y'ishuri n'abandi bambaye imyenda isanzwe bari kumwe bishimye.

Abagore babiri bafatanyije guterura umufuka, hirya yabo hari abandi na bo bagerekeranyije imifuka, bigaragara ko bari kuyitunda, bayikura ahantu hamwe, bayijyana ahandi.

Abana babiri b'abahungu basutamye imbere y'umugezi, bari gukaraba amazi menshi bigaragara ko bishimye bari gukina na yo.

Umugabo wambaye ishati ya makakaro n'ipantaro y'umukara, ufite ijerekani ari iruhande rw'umugezi, ufite ahantu habiri hava amazi.

Abaganga benshi bambaye impuzankano y'icyatsi, bari kumwe, bigaragara ko bari mu gikorwa cyo kubaga umurwayi bose bambaye bipfutse.

Abantu benshi bari kumwe, bamwe bagiye bambaye ibintu bisa, harimo n'abambaye impuzankano bigaragara nkaho ari nk'abaganga. Bari imbere y'inyubako yanditseho amagambo avuga ngo gira ubuzima.

Imodoka isa ubururu, iri kugenda mu muhanda w'ibisate bibiri, iyi imodoka yikoreye amacupa avamo gaze, impande y'iyo modoka hari akayira k'abanyamaguru.

Umwana mutoya ufite akajerekani, ari mu mazi menshi, arimo arayavoma, bigaragara ko ari nk'ahantu kubona amazi bitoroshye, hatari amavomo rusange y'amazi meza, afite isuku.

Umwana mutoya wambaye imyenda y'abanyeshuri, bigaragara ko akiri umunyeshuri, arimo arakaraba intoki, akoresheje kandagira ukarabe.

Umubyeyi uri koza umwana uri mu ibase iruhande rwe hari undi mubyeyi uri kumwe n'umwana nawe afashe indobo, inyuma hari undi mwana uri ku mugezi bigaragara ko ari kuvoma amazi.

Umwana mutoya uri ku mugezi, arimo arakarabira ku mugezi amazi arimo ameneka hasi, iruhande rwe hari indobo z'ubururu, bigaragara ko yari yaje kuvoma.

Abana bari kumwe, bari ku mugezi, bari gukaraba intoki zabo, bose bafite imisatsi y'umukara, hari abo isutse, abandi yogoshe.

Abantu bagera kuri batanu bagenewe kuvuga mu nama barimo abagore babiri n'abagabo batatu, hepfo hari amazina y'abo n'amagambo manini avuga ngo kudasiga umuntu n'umwe inyuma.

Abasore bigaragara ko bari mu nama bambaye udupira dusa kandi turiho ikirango kimeze kimwe gusa atari bonyine bari kumwe n'abandi benshi bigaragara ko hari igikorwa cyabahuje.

Abantu bigaragara ko biganjemo abakuze bari hagati y'ibirango bitandukanye by'ibigo bigiye bitandukanye, harimo nk'icya kaminuza y'u Rwanda ndetse n'indi kaminuza yo mu Bwongereza.

Umusaza bigaragara ko ari mukuru wambaye umupira w'umutuku ndetse n'ikabutura, yambaye n'amapingu bari kumushyiraho ibintu bigaragara ko ari umujura yari yabyibye.

Abantu benshi barimo abana n'abakuze mbese ingeri zose zihari, bafashe amabendera y'Igihugu cy'u Rwanda barimo baseka bishimye.

Umugore witeze igitambaro gikozwe mu gitenge, wazanye iminkanyari mu maso ariko bisa n'aho abyikoresheje kuko asa n'uwakunje isura.

Abantu b'ingeri zitandukanye barimo abagore n'abakobwa n'abagabo bari kumwe bigaragara ko basoje nk'inama runaka mu ruhande hari icyapa kigaragaza igikorwa bari bari gukora.

Abantu babiri bari kumwe ariko bigaragara ko ari amashusho yabo atari abanyabo, iruhande handitse ngo urubuga rwo kumera neza kwacu ubungubu rurahari.

Amagambo ari mu ibara ry'umukara asobanura ngo ukuntu abantu biyahura mu Rwanda, hepfo hari igishushanyo kigaragaza neza umubare w'abantu biyahura mu gihe runaka.

Abana benshi bari guseka bishimye bazamuye amaboko yabo, bigaragara ko ari abanyeshuri mu kigo runaka giherereye mu Rwanda nk'uko bigaragazwa n'ibendera ry'igihugu rishinze inyuma yabo.

Abagore babiri bari kumwe, umwe acigatiye umwana, undi afite inziramugozi ndetse n'agakoresho kifashishwa bapima arikwereka mugenzi we ibipimo amaze gufata.

Amagambo menshi agiye atandukanye, harimo asobanura kumenya kubaho neza kuganirizwa mu buzima bwo mu mutwe, kwiyahura ubwenge ihungabana n'ibindi bijyanye n'ibyo.

Umukecuru wambaye imyenda y'ibitenge ari na yo yikenyeje mu mutwe, ari guseka bigaragara ko nta kibazo afite, inyuma ye hari abandi bantu benshi.

Abantu bicaye mu cyumba, bigaragara ko ari icyumba cy'inama, kirimo umugore ufashe indangururamajwi, imbere ku meza hari mudasobwa ndetse n'uducupa turimo ibyo kunywa.

Inyuguti ya ra na ma na ha na pa, ra ivuga u Rwanda, ma ivuga ku mutwe, ha ivuga ku buzima, pa ivuga ku bikorwa, wabishyira hamwe bikaba ari nk' ibintuintu biranga ikigo cyita ku buzima bwo mu mutwe.

Umugabo wambaye imyenda yacikaguritse kandi isa nabi ufite n'ubwanwa ndetse n'umusatsi by'njwiri, bigaragara ko ari umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe.

Umugore ufite imisatsi myinshi y'umukara, wambaye n'amadarubindi ufashe agakarita mu ntoki ze kanditseho igikorwa yakoragamo cyo kwibuka.

Umusore ufashe inkoni, ari kumwe n'umubyeyi, bose bafashe umukobwa uri kureba nkaho afite ikibazo runaka cyo mu mutwe gitumye bamufasha.

Umusore wifashe mu gahanga bigaragara nk'aho afite ikibazo, ari kumwe n'umukobwa umukozeho yambaye isaha bigaragara ko ari kumuganiriza amuhumuriza ku kibazo yagize.

Abagore batatu bafite amazi imbere yabo, bari kureba imbere ku muntu ufite indangururamajwi, inyuma hari icyapa cyanditseho ngo "twite ku buzima bwo mu mutwe", bigaragara ko ari cyo inama barimo iri kwigaho.

Umusore ufite umusatsi utari mwinshi cyane ariko utari na muke cyane, iruhande rwe handitse amagambo menshi bigaragara ko ari we wayavuze. Hejuru umutwe w' amagambo uvuga ngo ubuzima bwo mu mutwe bwitabweho kuri bose.

Abana bato bigaragara ko ari incuke bambaye impuzankano isa icyatsi, harimo n'abatambaye umpuzankano, bose imisatsi yabo yogoshe.

Abantu biganjemo urubyiruko bambaye imipira isa y'ubururu iriho n'ibirango bisa bifite ibara ry'umweru barikumwe n'umugabo bigaragara ko akuze wambaye ishati y'umweru ni ipantaro y'umukara ndetse n'umuzungu iruhande rwabo.

Umugabo wambaye imyenda isa nabi, wambaye n'ibirenge uri hasi bigaragara ko afite ikibazo m'umutwe we gituma akora ibyo ari gukora.

Abantu batandukanye barimo abambaye imipira isa y'umukara ifite n'ibirango bisa, hari n'abandi bambaye amakarita n'abaranga mu ijosi, imbere ku meza hari igipurizo gitukura.

Impine igizwe n'inyuguti ya O na H na M na O n'ishusho y'umukobwa wambaye agapfukamunwa n'imyenda y'umukara, bigaragara ko ari ikirango cy'inama runaka kuko hariho n'amatariki makumyabiri n'eshanu.

Abantu benshi bicaye bigaragara ko bari mu cyumba cy'inama, bari kuganirizwa ku ngingo zitandukanye, ku gikuta hariho insakazamashusho.

Umwana muto bigaragara ko ari umunyeshuri wambaye n'impuzankano irimo ishati y'umweru yicaye mu ishuri afite imisatsi isutse ari no kurya.

Umuntu wicaye hasi yambaye imyenda isa nabi afite n'amashashi n'amacupa iruhande rwe bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe.

Umwana muto w'umukobwa ufite imisatsi isakoje y'umukara hari n'umuganga amaboko ye yambaye uturindantoki afashe ibikoresho byifashishwa bavura amenyo.

Ishusho igaragaza imiterere nyayo y'amenyo ahantu ibifatiye haba hasi werekeza ku kananwa ndetse no hejuru ahantu ijya guhurira n'amazuru.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo udutebe tw'umukara two kwicaraho, harimo n'igitanda cyo kwa muganga umurwayi aryamaho ndetse n'ibindi byifashishwa bapima uko umurwayi ameze.

Umukobwa bigaragara nk'aho ari mwarimu w'abana benshi, bambaye impuzankano, bamanitse uburoso bafite ndetse n'umuti w'amenyo, bigaragara ko babafasha mu kugirira isuku amenyo yabo.

Umwana mutoya bigaragara ko muganga, ari kumufungura akanwa ngo arebe amenyo ye ko yitabwaho neza, nawe abone ikindi cyo kuyakoza.

Umusore w'imibiri yombi, ufite agasatsi gakeya n'ubwanwa butari bwinshi, urimo seka, bigaragara ko amenyo ye ari umweru yitaweho neza, ari kumwe na muganga wambaye uturindantoki ndetse binagaragara ko umusore aryamye mu bitaro.

Umusore urimo agaragaza y'uko amenyo ye yitaweho afashe akagozi gatangwa n'abaganga kifashishwa basukura amenyo.

Igikoresho bigiraho gisa neza neza no mu kanwa k'umuntu, harimo amenyo ndetse n'abantu bafite ibikoresho byifashishwa n'abaganga bakura amenyo, bari kwigira kuri ako gakoresho.

Umwana muto bigaragara ko ari umunyeshuri ufashe ikintu gihagarariye amenyo, umuganga ari kumwereka uburyo boza amenyo hari n'abandi bigaragara ko ari igikorwa bateguye cyo kwerekana uburyo abantu bajya basukuramo amenyo yabo.

Amaboko yambaye uturindantoki tw'ubururu afashe inziramugozi, irimo amashusho agiye atandukanye agaragaza imiterere y'amenyo.

Umwana mutoya wafashe uburoso agashira mu kanwa nubwo katarimo amenyo menshi cyane, bigaragara ko yishimye ari guseka.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo intebe muganga yicaraho ndetse n'iy'umurwayi yicaraho, igaragara ko ushobora kuyihina cyangwa ukayihinura bitewe n'uko ushaka ko umurwayi aba ameze.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga bita ku barwayi, harimo nk'agatebe bicaraho, harimo uburiri umurwayi aryamaho n'ibindi.

Umusore wambaye agapira gafite ibara ry'ubururu bwijimye, afite agasatsi gakeya, n'ubwanwa. Uri guseka, agaragaza amenyo asukuye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, harimo intebe yo kwicaraho, igitanda umurwayi aryamaho insakazamashusho nubwo itari kwaka izimije, byifashishwa muri icyo cyumba.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye harimo intebe muganga yicaraho ndetse n'iy'umurwayi yicaraho, bigaragara ko ushobora kuyiryamisha cyangwa se ukayegura bitewe n'uko ushaka ko umurwayi aba ameze.

Ishusho igaragaza imiterere y'amenyo n'ahantu aba agarukira, haba ku gice cyo hepfo ugana ku kananwa ndetse no ku gice cyo ruguru ugana ku mazuru, herekanwa n'amenyo yo hirya y'ibijigo.

Umukobwa muto, wicaye kwa muganga, uri kwireba mu kirori, bigaragara ko ari kureba amenyo ye, yerekana ko yitaweho, akaba asa umweru.

Umusore wambaye imyenda y'umukara bararana ari koza amenyo anireba mu kirahuri, iruhande rwe harambitse impapuro z'isuku.

Umukobwa wambaye isengeri y'umweru ,unikenyeje igitambaro cy'umweru mu mutwe, afite uburoso bw'amenyo ari koza amenyo anireba mu kirori.

Umusore uri guseka bigaragara ko yishimye, ariko anerekana amenyo ye ko ari amenyo yitaweho yatunze urutoki ku menyo ahagarariye amazima ari mu ntoki ziwe.

Umuganga wambaye amadarubindi, agapfukamunwa ndetse n'ishati y'icyatsi, uri kuvura umwana mu kanwa, bigaragara ko ari kwita ku menyo ye.

Umusore ufite akagozi kifashishwa bahanagura amenyo, yafunguye akanwa bigaragara ko amenyo ye asa umweru, ibyo bikaba byumvikanisha ko yitaweho.

Abantu bambaye imipira y'icyatsi yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo ngo tubiteho inyuma yabo hari abandi bambaye udupfukamunwa imipira y'umweru n'uturinda ntoki bigaragara ko ari nk'abaganga bari gutanga ubufasha ku menyo y'ababarwayi.

Umusore uri kwireba mu kirori arimo aseka bigaragara ko amenyo ye asa umweru yitaweho, agifite n'akagozi bakoresha basukura amenyo.

Akanwa karimo amenyo hari n'icyuma cyo kwa muganga gifashe iryinyo rimaze gukurwamo na muganga, aho rivuye hasigaye icyobo kirimo amaraso.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho byinshi bikoreshwa byiganjemo ibifite ibara ry'umweru, harimo n'isakazamashusho, harimo igitanda abarwayi baryamaho, gifite ibara ry'umutuku.

Umukobwa ufite imisatsi y'umukara wahumirije amaso, yafunguye akanwa afite akagozi gatangwa n'abaganga, kifashishwa mu gusukura amenyo.

Umukobwa wasamye yerekana amenyo ye yose, bigaragara ko ari amenyo y'umweru yitaweho, hari n'akandi gakoresho arigukoresha kifashishwa basukura amenyo.

Akana gato k'agakobwa karyamye kwa muganga kari guseka amenyo agaragara, umuganga afite ibikoresho bigaragara ko ari nko kukavura amenyo.

Ishusho y'amenyo n'imiterere yayo, ukuntu abareshya n'ukuntu aba angana, haba ku gice cyo hasi werekeza ku kananwa cyangwa se igice cyayo cyo hejuru ugana ku mazuru.

Umubyeyi w'umugore, bigaragara ko ari mu zabukuru, ufite imvi, yarambuye amaboko, ari kumwe n'umuganga, ufite imisatsi miremire y'umukara ari kumufasha.

Umugabo bigaragara ko ari mukuru, wambaye agapira k'ubururu, uri guterura agakoresho abaganga bifashisha bareba ko abantu bageze mu za bukuru bagikomeye, ari kumwe na muganga uri kumwereka uko abikora.

Umusaza bigaragara ko ageze mu zabukuru, afite imisatsi y'imvi, wambaye n'amadarubindi, uri kumwe n'umukobwa bigaragara ko akiri muto ari umuganga, afite igikoresho ari kumupima.

Umugore wambaye amadarubindi, yiteze igitambaro cy'umukara, ari kumwe n'umukobwa, ufite imisatsi miremire y'umukara, yambaye impuzankano y'ubururu, bigaragara ko ari umuganga.

Umusaza bigaragara ko ageze mu za bukuru ufite imisatsi y'imvi wambaye amadarubindi uri kwandika ibintu mukaye irambitse ku meza ari imbere afashe ikaramu.

Umugore w'umuganga uri gusuka umutobe mu kirahure, bigaragara ko ari gusukira umusaza bari kumwe, ku meza harambitse ubwoko bw'imbuto butandukanye, bigaragara ko na zo bari kuzirya.

Umusaza ugeze mu zabukuru wambaye amadarubindi arikumwe n'umukobwa ufite imisatsi myinshi, wambaye n'impuzankano y'abaganga arimo kumupima.

Umugore ufite imisatsi miremire y'umweru, uri kumwe n'undi ufite imisatsi miremire y'umukara, bafashe amakarita bari gukina, iruhande hari n'undi mugore bariku baseka bigaragara ko bishimye.

Abagore babiri bigaragara ko bari mu myitozo ngororamubiri, bagenda batiruka cyane, barimo banaganira, bisa n'aho bafite ingingo runaka bari kuganiraho, umwe yambaye igitambaro cy'umutuku mu mutwe, undi afite imisatsi miremire y'umukara.

Umugore bigaragara ko ageze mu za bukuru ari kumwe n'umusaza nawe ugeze mu za bukuru, ufite n'ubwanwa bw'umweru afite ikirahuri ari kunywa imiti.

Abantu benshi biganjemo abageze mu za bukuru barimo abagore n'abasaza bafite imvi, bateraniye ahantu hamwe bari gufashwa n'abana bashinzwe kubitaho.

Abantu bigaragara ko bari mu zabukuru, bafite udukoresho twifashishwa bagorora imibiri yabo, bari guseka, bigaragara ko bishimye.

Umugabo bigaragara ko ageze mu zabukuru, uri kumwe n'abasore babiri, umwe w'umukobwa, undi w'umuhungu, bari kumuhagurutsa, bigaragaza ko bashaka kumusindagiza ngo agende.

Umugore ufite imisatsi y'umukara, uri kumwe n'umugabo bigaragara ko ashaje, afite imvi, bari kurya ibiryo byiganjemo ibifite ibara ry'icyatsi ndetse hari n'ikirahure kirimo amazi.

Umugore wambaye imyenda y'umuhondo ufite imisatsi myinshi y'umukara yambaye n'amadarubindi ufashe agacupa gatoya ashyira imiti ku biganza bye bigaragara ko agiye kuyikoresha.

Umugabo bigaragara ko akuze, uri kumwe n'umwana mutoya bari mu myitozo ngororamubiri, bakina umupira basanzwe bakina banaga mu nkangara.

umusaza bigaragara ko ageze mu za bukuru uri kugenda yifashishije ibyuma byo kwa muganga byifashishwa n'abantu batabasha kwigenza kugira ngo bagende ari kumwe n'umuganga ushinzwe kumwitaho.

Umugore bigaragara ko ari mukuru nubwo atarasaza, uri kumwe n'umukobwa ukiri muto wambaye imyenda bigaragara nkaho ari umuganga. Barimo baseka bagaragaza ibyishimo.

Umugabo bigaragara ko ageze mu za bukuru, urimo atambuka yifashishije ibyuma biri mu mpande ze, ari kumwe n'umuganga umuherekeza bigaragara ko ari we umwitaho.

Abagore babiri bigaragara ko bageze mu za bukuru, bari kumwe bafite imbuto zitandukanye imbere yabo ndetse n'ibindi biribwa bisa icyatsi, bafite n'ibirahuri birimo ibyo bari kunywa, bigaragara nk'aho hari umutobe uturuka muri ibyo biribwa.

Umugabo bigaragara ko ageze mu zabukuru, yambaye n'amadarubindi, ari kumwe n'umukobwa ukiri muto, ari kumufasha guhaguruka ku buriri ngo abashe gutambuka.

Umugore ufite imisatsi miremire y'umweru, wambaye isengeri y'ubururu, n'ipantaro y'umukara, yicaye ari gukora imyitozo ngororamubiri, yarambuye ukuguru kwe kw'iburyo, ukw'ibumoso guhinnye yikora ku mano.

Umugore bigaragara ko ari mu zabukuru, ufite n'imisatsi y'imvi, ari kumwe n'umukobwa w'umuganga, ufite agakoresho bifashisha bapima, ari no kumufasha kurambura ingingo ze.

Umugore wambaye imyenda itukura wambaye agapfukamunwa ndetse n'amadarubindi unafite agakoresho kifashishwa n'abaganga bapima mu ijosi bigaragara ko ari gufasha umugore uri mu zabukuru afashe akaboko ke.

Umugore n'umugabo bigaragara ko bageze mu zabukuru bari kumwe, umugabo yambaye umupira utukura, umugore yambaye na we umupira utukura ariko uciyemo imirongo y'umukara, ku meza bigaragara ko bari gutunganya imiti.

Umusaza bigaragara ko ari mu izabukuru urimo kugenda yifashishije ibyuma biri iruhande rwe, ari kumwe n'umugore ukiri muto uri kumufasha gutambuka, bigaragara ko ari nk'umuganga ushinzwe kumwitaho.

Umugabo bigaragara ko ari mukuru ari umusaza ufite imashini yambaye ku kuboko, imufasha gupima ubuzima bwe ukuntu buhagaze mu gihe cyose ayifite.

Abagore barimo n'ugaragara ko akuze, bambaye ibitenge bicaye ahantu mu isoko ricururizwamo imbuto nyinshi z'ubwoko butandukanye, hari n'inyanya.

Umugabo n'umugore bigaragara ko bari mu za bukuru bari kurya ndetse ku meza yabo hateretse n'ikirahuri kirimo amazi bafite n'umusore wambaye ikarita imuranga uri kubafasha.

Umugore bigaragara ko akuze nubwo bidakabije uri kumwe n'umusore ufite ubwanwa bwinshi bigaragara ko ari umuganga unambaye agakoresho kifashishwa n'abaganga bapima.

Abantu babiri bari mu myitozo ngororamubiri, barimo umugabo ndetse n'umugore, bigaragara ko bakuze ariko atari cyane, baseka bishimye.

Abagabo bakoranye mu biganza abandi bari kubaha amashyi imbere hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abafite ubumuga birimo imbago, utugare n'ibindi.

Umusaza bigaragara ko ageze mu za bukuru afashe inkoni afite n'ubwanwa burimo imvi buri kumwe n'umukobwa wambaye impuzankano igaragaza ko ari umuganga y'ubururu barimo baseka.

Umukecuru wicaye ahantu hari ibyatsi byinshi cyane, yateye amashyiga, ateretseho agasafuriya, bigaragara ko ari ho atekera.

Umusaza bigaragara ko ari mu zabukuru wicaye mu ntebe ari kumwe n'umukobwa ukiri muto bigaragara ko ari umuganga ushinzwe kumwitaho bari guseka barimo barebana.

Umugore bigaragara ko ageze mu za bukuru, ufite agakoresho kifashishwa n'abaganga bareba ko umubiri w'umurwayi ukora, ndetse n'umugore wambaye imyenda y'umukara bigaragara ko ariwe muganga wita kuri uyu mukecuru.

Umusaza bigaragara ko ari mu za bukuru, uri kureba mu kirahuri cy'inziramigozi, ari kumwe n'umugore ufite imisatsi myinshi wambaye n'ikarita imuranga, bigaragara nk'aho ari umuganga.

Umusaza bigaragara ko ari mu za bukuru afite imisatsi y'umweru wambaye n'amadarubindi ari guseka cyane; ari kumwe n'umugore na we udakuze cyane, ariko bigaragara ko ari mukuru bari kumwe.

Abagore bari kumwe, barimo abo ubona ko benshi bageze mu za bukuru, bigaragara ko bari nko mu nama runaka, bamwe bicaye hasi, abandi bicaye hejuru, ku dutebe tw'umweru.

Abahungu n'abakobwa barimo ababirabura ndetse n'abazungu bari kumwe, bigaragara ko bahujwe n'igikorwa runaka nk'inama, bose bambaye amakarita abaranga mu ijosi.

Ikirango cyanditseho ngo bika itariki bigaragaza ko ari igikorwa runaka cyenda kuba bari kwamamaza, binagaragara ko ari igikorwa kizaba cyita ku gakoko gatera sida by'umwihariko mu rubyiruko.

Abasore babiri n'abakobwa babiri bafashe udukingirizo mu ntoki zabo, harimo udusa umutuku, umuhondo n'udusa ubururu, iruhande hari amagambo atukura avuga ku izina ryatwo.

Ikirango kiriho ishusho y'ikarita y'u Rwanda handitseho amagambo avuga ngo imirongo ngenderwaho hirindwa agakoko gatera sida mu Rwanda.

Amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu, asobanura Diyabete n'andi asobanura ko ari icyumweru cyahariwe kurwanya Diyabete, hariho n'amatariki atandukanya iminsi n'ibizayikorwaho.

Umugore bigaragara ko ari nk'umuganga cyangwa se umujyanama w'ubuzima, uri gufasha umukobwa ufite imisatsi isutse miremire, ku meza harambitseho indangururamajwi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abaganga bambaye udupfukamunwa, bambaye ingofero, bambaye impuzankano zabo, bigaragara ko bari kubaga umurwayi uryamye ku gitanda abari hagati.

Abantu bane bari mu kirango cyanditseho amagambo avuga ngo 'dushobora gukuraho burundu kanseri' bigaragara ko ari igikorwa bari kwamamaza banamenyesha abantu ko babikora bigakunda.

Inyuguti ya na na ca, na da bifite ibara ry'ubururu n'amagambo ari mu ibara ry'umukara asobanura izo nyuguti. Iruhande hari ikaramu, urundi ruhande ruriho igikoresho cyo kwa muganga cyifashishwa bapima.

Ikirango kiriho imyaka icumi, hariho n'amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, avuga ko hari raporo ivuga ku mipangire y'imiryango.

Abagabo babiri bakoranye mu biganza bigaragara ko basuhuzanya ariko umwe ashimira undi bafite ibitabo mu ntoki bambaye amakote.

Abantu bisa naho bari mu nama biga ku ngingo runaka barimo umugabo uhagaze bigaragara ko ariwe uri kuvuga nonaha n'abandi bicaye ku ntebe z'umutuku hari n'ameza ariho mudasobwa.

Abagabo babiri bose bambaye udupfukamunwa, umwe yambaye imyenda y'ubururu, undi yambaye ishati y'umweru ndetse n'ingofero, arimo aratera mugenzi we urushinge.

Uducupa turambitse hasi dufite imifuniko y'icyatsi twanditseho amagambo manini y'umukara asobanura ko ari agakoko k'ubushita bw'inkende.

Inyubako ndende imbere yayo hari icyapa cyanditseho umubare cumi na kabiri uri mu ibara ry'umweru, bwanditse mu kanya gafite ibara ry'umukara.

Icyumba kirekire kiriho utuntu tugerekeranye tw'imyanya yo kubikamo imiti, bigaragara ko ari ahantu hari imiti myinshi cyane y'ubwoko butandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ikimashini kinini gisa umweru, gifite ahantu umurwayi aryama, ndetse n'ikindi gice bigaragara ko ariho ashira umutwe.

Imiti y'ubwoko butandukanye iri mu kabati, harimo iri mu ducupa, iri mu dukarito n'indi iri mu masashe yabugenewe n'amagambo ari mu ibara ry'icyatsi asobanura ko ari inzu icururizwamo imiti.

Igice cyo kwa muganga kidafite ikimenyetso icyo aricyo cyose cy'ikihakorerwa, ariko higanje amabara y'umweru ndetse n'ahantu hari igihingwa giteye mu nzu bigaragara ko hafite isuku.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo ibitanda abarwayi baryamaho ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa na muganga.

iIgice cyo kwa muganga bigaragara ko ari umurambararo munini w'ahantutu hagiye hari ibyumba bigiye bitandukanye, ku gikuta hari ishusho ubona ko ari ahantu hafite isuku.

Icyapa kigaragaza ko giherereye i Huye, kiranga ikigo gishinzwe gufasha ababaswe n'ibiyobyabwenge ndetse n'abandi bantu bafite ibibazo byo mu mutwe.

Ahantu kwa muganga hari amazu agiye atandukanye ategeranye, hagiye hacamo utuyira two kunyuramo, hari n'ahantu hanini hari ubusitani.

Inyubako nini cyane mu bugari iriho abantu, imbere yayo ifite n'igice kinini cy'ubusitani buteyemo indabo harimo n'igiti kinini.

Abantu b'ingeri zitandukanye barimo abo bigaragara ko bakuze, ndetse harimo n'aburubyiruko bari ku bitaro bya Butaro nk'uko bigaragazwa n'icyapa bahagaze iruhande.

Umusore wambaye agapfukamunwa k'umukara, n'ingofero y'umukara, uryamye kwa muganga, ari kumwe n'umuganga uri kumuzirikaho akantu k'ubururu, yambaye impuzankano z'umweru.

Inyubako nyinshi zo kwa muganga ziri ahantu hatandukanye bigaragara ko ari hanini, hariya hantu h'ubusitani hari n'ahandi hari amamodoka bigaragara ko ari ahantu hisanzuye.

Abantu b'ingeri zitandukanye bambaye amakarita abaranga, bari imbere y'ibitaro bya Rwamagana nk'uko bigaragazwa n'amagambo y'icyatsi ari hejuru ku gikuta cy'inyubako.

Inyubako nini yanditseho amagambo hejuru ari mu ibara ry'icyatsi, avuga ko ari ikigo cy'igihugu cyita ku bijyanye na kanseri, byumvikana ko ari ho ibiro byabo bikorera.

Inyubako iriho abantu benshi imbere yayo hariho amagambo yanditse ngo "ikigo nderabuzima cya Tabagwe" hariho ikirango cy'Igihugu n'irindi jambo imbuto.

Inyubako nziza yubakishije amatafari ahiye, irimo n'utubara twiza iriho n'umuhanda bigaragara ko ushobora kunyuramo n'imodoka ndetse hafite n'ahantu h'ubusitani.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ikimashini kinini cyane bigaragara ko cyifashishwa bapima abarwayi hariho ahantu umurwayi aryama kugira ngo bamupime.

Umugore uri mu kagare k'abarwayi kifashishwa ku bantu batabasha kwigendesha, uri kumwe n'umuganga wambaye imyenda y'umweru, hirya hari abandi bantu benshi.

Icyumba kirekire, kirimo ibikoresho bitandukanye n'ibintu bimeze nk'utubati ariko bigaragara ko ari icyumba kirimo ikoranabuhanga ryinshi cyane.

Igice cyo kwa muganga kiriho ahantu abantu bicara n'amagambo yanditse ahantu hagaragara, asobanura ko ariho wakirirwa ukinjira mu bitaro.

Inzu nini ifite amabati asa umutuku, ndetse iriho n'ibyapa imbere n'udutebe turi mu ibaraza ryayo, nkuko bigaragara ari inzu ivurirwamo abantu bafite ibibazo mu mutwe.

Icyumba cyo kwa muganga kiriho uburiri bushasheho amashuka asa umweru ndetse ubona ari ibitanda byisanzuye birenze kimwe biri mu cyumba kimwe.

Icyumba kirimo imiti myinshi y'ubwoko butandukanye, iri mu dukarito twagenewe kubikamo imyenda iri ahantu bigaragara ko ari ahagenewe kubikwa imiti.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye byifashishwa bapima banavura abarwayi, ku bikuta by'icyumba hariho amashusho agaragaza ubwiza butandukanye bw'ibintu biba ku isi ndetse n'isaha.

Igitanda cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga bapima uko umurwayi ameze ndetse harimo n'igitanda umurwayi aryamaho.

Icyumba kirimo agatebe ko kwicaraho, harimo n'ururabo ubona ko hisanzuye, hari amagambo yanditse ku gikuta, avuga ko hakorerwa imyitozo ngororamubiri.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibitanda byinshi by'abarwayi, harimo bimwe biryamyeho abarwayi bari kwitabwaho n'abaganga, n'ibindi bitariho abarwayi.

Umugore ufite imisatsi myinshi y'umukara, wambaye impuzankano y'icyatsi ufite n'inziramugozi ku mufuka w'inyuma, uri kugenda mu bitaro birimo ibitanda byinshi by'abarwayi.

Icyumba kinini cyo kwa muganga bigaragara ko cyabasha kwakira abarwayi benshi, nkuko harimo ibitanda byinshi bigiye bitandukanwa n'umwenda uri hagati ya buri gitanda n'ikindi.

Inyubako igerekeranye ifite amabati atukura hariho icyapa imbere yaho cyanditseho ko ari ibitaro bya kaminuza y'u Rwanda iherereye i Butare.

Ahantu imbere y'inyubako hari ikirango cyanditseho amagambo asobanura ko ari ikoranabuhanga rikoreshwa mu buvuzi bigaragara ko ari byo bihakorerwa.

Abakobwa bambaye impuzankano ifite ibara ry'ubururu bambaye n'udupfukamunwa, bahagaze imbere y'ivuriro ryanditseho amagambo ibigwi n'ivuriro.

Icyapa cy'umweru cyanditseho ngo umujyi wa Kigali, hariho n'ibirango by'igihugu n'andi magambo yanditseho ko ari ikigo ngororamuco.

Inyubako ndende iriho icyapa kigaragaza ko hari inyubako ivurirwamo amaso, iruhande gato rw'ayo magambo hari ishusho y'ijisho.

Igice cyo kwa muganga bigaragara ko ariho abarwayi barwarira, harimo ibitanda byinshi biriho n'abarwayi, harimo abari gukora isuku ndetse n'abaganga bari kwita ku barwayi bari muri icyo cyumba.

Abagore batatu bambaye impuzankano z'ubururu n'udutambaro tw'umweru mu mutwe bari ahantu hari ibiti byinshi biri inyuma yabo by'ubwoko butandukanye.

Abantu benshi bagiye batandukanye barimo abambaye imyenda isa nk'abambaye imipira yi icyatsi bigaragara ko hari ikintu runaka bari gufasha n'abandi bantu benshi bigaragara ko baje gushaka uwabafasha.

Inzu yanditseho ngo ikigo nderabuzima cya Shagasha byanditse mu ibara ry'ubururu n'inzu nayo isakaje amabati y'ubururu mu ibaraza ry'iyo nzu hicayemo abagore babiri bari kumwe n'utwana tubiri dutoya.

Igice cyo kwa muganga kirimo udutebe two kwicaraho, hari amagambo ari ku gikuta asobanura ko ari ahantu hakorerwa ubushakashatsi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, harimo amamashini manini ndetse n'insakazamashusho zizimije zitari kwaka.

Umuganga ufite imisatsi miremire y'umukara yambaye n'agapfukamunwa k'umukara ndetse n'impuzankano y'umweru uri imbere ya mudasobwa bigaragara ko hari ibintu ari gusomamo.

Igice cyo kwa muganga gifite ibara ry'umweru, bigaragara ko ari ahantu hafite isuku. Hari imigezi myinshi irimo amazi, ndetse n'utubati bigaragara ko wahabika ibintu ushaka.

Inzu nini igeretse iriho abantu benshi imbere yayo, barimo bajyayo n'abandi bavayo inyuma y'uruzitiro hari n'imodoka.

Abantu benshi barimo abana, ababyeyi bahetse abana ndetse n'abandi bantu bakuru, bicaye bategereje gufashwa, bari ku kigo nderabuzima.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo intebe nini iyo umurwayi ashobora kuryamisha ikaba yaba igitanda; hariho n'intebe muganga yicaraho mu gihe ari kumufasha.

Inyubako ndende igerekeranye, yanditseho hejuru amagambo ayiranga, ari mu ibara ry'icyatsi, asobanura ko ari ahantu hatangirwa ubuvuzi bwinshi bugiye butandukanye.

Umubyeyi uhetse umwana, uri imbere y'ikigo nderabuzima cya Kigina, nk'uko bigaragazwa n'amagambo manini, yanditse ko ari ikigo nderabuzima cya Kigina, ari ku muryango w'inyubako.

Abantu benshi bari mucyumba bigaragara ko ari icyumba cy'inama hari umugabo ubahagaze imbere bigaragara ko ariwe uri kubabwira ndetse n'abandi babiri bicaye ku meza bigaragara ko nabo bari bubone umwanya cyangwa se bawubonye mbere.

Igice kimwe cyo kwa muganga bigaragara ko ari ahantu havurirwa ababyeyi nk'uko biri mu magambo y'ubururu yanditseho, hari n'umugabo uri kuyitambuka iruhande.

Abaganga bambaye impuzankano y'umweru, bari kumwe, umwe ari kwandika undi ari gupima umurwayi wicaye mu nguni, bigaragara ko bari gukorera hamwe.

Abantu bari kwa muganga bicaye basa naho bategereje, hagati y'umuntu n'undi harimo intera ya metero, bambaye n'udupfukamunwa, bigaragara ko hari mu gihe cya corona virusi.

Icyumba cyo kwa muganga kinini kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye birimo ibyifashishwa bafata ibipimo by'abarwayi kwa muganga.

Icyumba cyo kwa muganga kiriho igitanda umurwayi aryamaho kirimo n'insakazamashusho kiriho n'ahantu umurwayi ashobora gukorera imyitozo ngororamubiri.

Icyumba kigaragara ko cyagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri kirimo ahantu ho kwicara, aho kwirukira imipira yo gukina n'ibindi.

Abagore bane ngabo umwe uri hagati byumvikana ko ari abantu batanu bari kumwe bari ahantu imbere y'inyubako yanditseho ko ari ahantu hakorerwa ibizamini by'ubuzima.

Uyu ni umugore bigaragara ko ageze mu za bukuru, wambaye igitenge, ari kumwe n'umugabo bigaragara ko ari umuganga anafite mu ijosi agakoresho kifashishwa n'abaganga bapima uko umuntu ameze.

Umugabo uryamye mu bitaro yazamuye ukuboko kwe yerekana igikumwe bisobanura ko ameze neza yishimiye uburyo ari kwitabwaho n'abaganga.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umwijima ariko habona, bigaragara ko hari amatara yifashishwa harimo ibitanda byinshi harimo n'abaganga bari gufasha abarwayi.

Icyumba bigaragara ko ari icyo kwa muganga, kirimo amabara atandukanye, harimo ay'ubururu, ay'icyatsi ndetse n'ibikoresho birimo nk'intebe n'ameza bifite ayo mabara.

Inyuguti ya ra na ca ebyiri, biri mu mabara y'icyatsi, bigaragara ko ari ikigo cy' igihugu gishinzwe ibijyanye na kanseri mu Rwanda.

Icyumba cyo kwa muganga kirekire cyane kirimo ibitanda abarwayi baryamaho bari kwa muganga, harimo n'inzitiramibu zifashishwa barinda abarwayi kuba barwara malariya.

Igice cyo kwa muganga, kiriho ibyumba bitandukanye, ariko by'umwihariko hari icyapa kiyobora abantu, kibereka ko ubwiherero buri hejuru, hakaba aho kwivuriza n'ibindi bice bitandukanye byo mu bitaro.

Imiti y'ubwoko bugiye butandukanye burimo iri mu dukarito, harimo iri mu ducupa byose biri ahantu mu cyumba bigaragara ko ari nk'inzu wacururizamo imiti yo kwa muganga.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo igitanda umurwayi aryamaho iyo ari kuvurwa, harimo n'imashini zifashishwa bapima ndetse n'insakazamashusho, iba igaragaza uko umurwayi ameze.

Umwana muto bigaragara ko ari umunyeshuri, nk'uko binagaragazwa n'impuzankano yambaye uri kumwe n'umuganga, bisa naho ari kumupima afite n'ibikoresho byifashishwa bapima abana.

Abagore batatu barimo umwe bigaragara ko ari umuganga wambaye imyenda itukura n'agapfukamunwa ndetse n'uturindantoki afashe ikiganza cy'umugore bigaragara ko ari kumupima.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abarwayi benshi barimo n'umugore wambaye agapfukamunwa agendera ku kagare k'abantu bafite ubumuga n'abandi bantu benshi bari hirya.

Igice cyo kwa muganga, bigaragara ko ari ahantu abantu binjirira ndetse bakanasohokera, hari umugabo ushinzwe umutekano ndetse n'abandi bantu bari kujyana bava ku bitaro, n'icyapa kinini kigaragaza n'uburyo ibitaro biteye n'uburyo babijyamo.

Umuganga wambaye imyenda y'ubururu ufite n'imisatsi myinshi, uri kugenda yerekeza ahantu hari abandi baganga. Bigaragara ko hari gukorerwa ibikorwa bigiye bitandukanye by'ubuvuzi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ikimashini kinini, ndetse n'ahantu umurwayi aryama, hariyo n'umuganga wambaye impuzankano yabo y'umweru, bigaragara ko ari gusuzuma uko imashini imeze.

Umubyeyi uhetse umwana, uri imbere y'ikigo nderabuzima cya Kigina, nk'uko bigaragazwa n'amagambo manini yanditse hejuru ku muryango w'ikigo nderabuzima.

Icyumba kinini kirimo intebe nyinshi bigaragara ko ari nk'ahantu abantu bategererereza, harimo intebe zimwe zicayeho abantu izindi ziriho ubusa.

Inyubako yubatswe n'amatafari ahiye y'umuhondo isa naho iri ahantu hisanzuye ifite utuyira two kunyuramo ndetse n'ahantu hahinze ibyatsi by'ubusitani.

Inzu yo kwa muganga yanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu avuga ko ari inzu y'ababyeyi byumvikana ko ari bo bemerewe kuyivurizamo bonyine.

Abantu benshi bahagaze batonze umurongo abandi bicaye ku ntebe bigaragara ko aribo bari gufasha abo bantu, hari n'undi uri mu kagare kagenewe gutwara abafite ubumuga cyangwa abageze mu za bukuru batabasha kwigenza.

Igice cyo kwa muganga bigaragara ko ari icyumba nk'uko amagambo yanditse ku gikuta cy'umweru, yanditse ku gikuta gifite ibara ry'ubururu asobanura ko ari icyumba kibamo abarwayi bihutirwa bagomba guhita bafashwa ako kanya.

Inzu nini igaragaza icyapa kiriho ko ari ahantu hacururizwa imiti haherereye i Remera, iruhande hari imodoka.

Umwana muto bigaragara ko ari umunyeshuri wiga mu mashuri abanza, ufite igikoresho gihagarariye amenyo, ari kumwe n'umwarimu ari kumwereka uburyo bahanagura amenyo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo uburiri umurwayi aryamaho, agatebe muganga yicaraho harimo na mudasobwa.

Icyumba kiri ahantu hisanzuye, bigaragara ko cyagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri harimo n'ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa abantu bakora imyitozo.

Umusore bigaragara ko yakoraga nk'imyitozo ngororamubiri akaba ari kunywa amazi meza afite isuku kugira ngo amere neza.

Umurwayi uri kugenda yifashishije ibyuma byo ku ruhande, bigaragara ko atabasha kwigendesha, ari kumwe n'umuganga uri kumufasha ushinzwe kumwitaho.

Amaguru y'umuntu wambaye ikabutura y'umukara, iriho ibimenyetso bibiri kimwe gifite ibara ry'ubururu, ikindi gifite ibara ry'umutuku bigaragaza ko ku ngingo ye y'ivi hashobora kuba hari ikibazo.

Icyumba cyo kwa muganga kiriho uburiri bw'umurwayi, bunateye nk'intebe ushobora kwegura bitewe n'ukuntu ushaka ko umurwayi amera, hari n'agatebe muganga yicaraho, n'izindi mashini nyinshi zifashishwa bapima.

Icupa ryamazi riri kumwe n'imbuto zisatuye hari na metero, n'igikoresho cyifashishwa mu myitozo ngororamubiri, byumvikana ko ari ibintu ukenera byose biri hamwe.

Igikoresho cyo kwa muganga batwararaho abarwayi batabasha kwigenza, n'ishusho iriho abagabo bahagarariye abantu, bambaye imyenda itukura bateruye umurwayi kuri icyo gikoresho, bigaragara ko bari kwerekana uko gikora.

Umuntu wicaye ku ntebe yo kwa muganga, ufite amaguru yoroheje bisa naho ari umukobwa, umuganga ari kumufasha kumuvura mu mavi.

Igikapu gifunguye, bigaragara ko ari igikapu kibikwamo imiti, harimo amacupa, harimo udukarito tubamo imiti, harimo inshinge zifashishwa bavura, bigaragara ko haba harimo ibikoresho by'ibanze byose.

Umusore wambaye isengeri y'umukara n'ikabutura y'umukara, witeruye ukuguru bigaragara nkaho arimo ababara ku kuguru, kandi yarimo akora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu wambaye agapira k'umuhondo n'ikabutura y'umukara, uri kugendera mu bintu bigaragara ko bimufasha gutambuka ubusanzwe atabasha kubyishoboza, asanganira undi ufashe umupira mu ntoki.

Ikirango cya Nshiyumuremyi, kigaragaza ibyo afasha abarwayi, ndetse hariho n'imbuga nkoranyambaga ziwe, ku buryo umushaka wamuhamagara cyangwa ukamwandikira ukamubona.

Uducupa duteye mu buryo butandukanye, twanditseho amagambo agiye atandukanye, hamwe y'umukara, andi umutuku hariho n'ijambo rigaragara cyane risobanura ngo hagarike uburibwe.

Umukobwa bigaragara ko ari mu myitozo ngororamubiri, yahinnye ukuguru kwe kw'ibumoso, ukw'iburyo kurambuye neza, ndetse yarambuye n'ukuboko kw'iburyo, gukora ku mano.

Umusore bigaragara ko akora imyitozo ngororamubiri, ku kuboko kwe ahagana ku kiganza, hari ibimenyetso bibiri bigaragaza ko ari ahantu mu ngingo, hashobora kugira ikibazo runaka.

Abantu babiri, bigaragara ko bose bari mu myitozo ngororamubiri, ari umuhungu n'umukobwa, bafite bose amacupa y'amazi meza yo kunywa, kugaragara ko ari igikorwa cyari cyateguwe.

Imashini yo kwa muganga, yifashishwa bapima uko umurwayi ahagaze, bikagaragarira mu kirahuri kiri ku gice cyayo cyo hejuru.

Igikoresho cyifashishwa bakora imyitozo ngororamubiri, gikoreshwa bagabanya inda nk'uko bigaragazwa n'amagambo yanditseho, kikaba kigura ibihumbi ijana na makumyabiri by'amafaranga y'u Rwanda.

Umukobwa w'umuzungu, wicaye ku kimashini cy'umukara, bigaragara ko cyifashishwa bakora imyitozo ngororamubiri, iruhande rwe hari umugabo wambaye agapfukamunwa k'umukara n'ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Ubwoko bw'imiti myinshi bugiye butandukanye, hariho imiti iri mu ducupa tw'umweru, hari indi iri mu dusashe, hari n'uturindantoki hari n'indi miti yifashishwa basiga.

Umuntu wambaye impeta, wafashe isashi irimo umuti, akayishyira ku nkokora y'ukuboko kwe, bigaragara ko yari afite nk'uburibwe mu ngingo.

Ingobyi igezweho ikozwe mu byuma, itandukanye n'ingobyi zakoreshwaga kera zabaga zikozwe mu rubingo, zose zifashishwa gutwara abarwayi.

Umusore wambaye umupira w'ikijuju yambaye n'imigozi itwara umuziki, afite n'icupa ari kunywa amazi bigaragara ko ari nka nyuma y'imyitozo ngororamubiri.

Icupa rinini ry'umweru ririho agapapuro k'umukara kariho amagambo avuga ku muti urimo imbere mumagambo agaragara manini yanditseho ngo hagarika uburibwe.

Abantu babiri umusore n'umukobwa, bateranye umugongo ariko bose bari kunywa amazi, bigaragara ko umusore ari we muremure ku mukobwa.

Umuntu uryamye ku bitaro bigaragara ko ari kwivuza ari kumwe n'undi uri kumukanda ku maguru bigaragara nkaho ari kumuvura nyuma yuko avuye gukora imyitozo ngororamubiri.

Ingobyi igezweho ifite ibara ry'umuhondo, ifite imigozi isa umukara yifashishwa bafatisha umurwayi kugira ngo mu gihe bamutwaye ataba yavaho akagwa.

Ibikarito by'umutuku birimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga ndetse n'imiti, bigaragara ko bitabiriye nk'igikorwa cya siporo kugira ngo batange ubutabazi bw'ibanze nihagira umuntu ugira ikibazo.

Umusore uri ahantu hasa n'ahijimye uri gukora imyitozo ngororamubiri, yarambuye ukuboko kwe kw'ibumoso kuri inyuma ukundi kw'iburyo guhagaze imbere ndetse n'ukuboko kwe kw'ibumoso.

Imashini isa umweru, yanditseho amagambo afite ibara ry'icyatsi, iruhande hari umugozi w'umukara, bigaragara ko ariwo wifashishwa kugira ngo bashyire umuriro muri iyo mashini.

Ubwoko bw'imiti myinshi igiye itandukanye harimo iri mu ducupa, amapamba yifashishwa bapfuka, agakarito k'umutuku batwaramo imiti, uturindantoki dufite ibara ry'ubururu n'utundi dukoresho tw'ibanze twifashishwa mu buvuzi bw'ibanze.

Umusore bigaragara ko uri kwa muganga, yaravunitse akaguru gapfutse cyane, ndetse hari n'umuganga uri kumwitaho wambaye ishati itukura.

Umukobwa wambaye umupira utukura n'agakabutura kamufashe gafite ibara ry'ikijuju, ari kumwe n'umuganga wambaye imyenda y'umweru amufashe ku kaguru ndetse no ku ivi.

Umusore wambaye agaseri k'umukara, wambaye n'agakomo k'icyatsi ku kuboko kwe, ari kunywa amazi bigaragara ko yicaye ahantu.

Abantu bari gukina umukino bambaye bikwije haba ku maboko, ku mubiri wose ndetse no ku mutwe bigaragara ko birinze ahantu hose hafi impanuka yateza ikibazo ku bakinnyi.

Amapamba yifashishwa bapfuka ingingo zigiye zitandukanye z'umuntu haba ay'umutuku, ay'umukara, n'ay'ubururu ndetse n'ukuboko kuzinzeho ipamba.

Igikoresho cyo kwa muganga cyifashishwa bapima uko umuntu ahagaze, imipira itandukanye harimo iyo bashyira mu nkangara ndetse n'umupira w'amaguru n'indi ikoreshwa bakora imyitozo ngororamubiri yose.

Umugore wambaye imyenda itukura, bigaragara ko ari mu myitozo ngororamubiri, wicaye hasi yahuje amaguru ndetse n'amaboko ari kurambura imitsi.

Umuntu uri kwiruka bigaragara ko akazi akora ari ukwiruka, nk'amagambo ari iruhande rwe yanditse asobanura ko mu rubuga rw'abantu bakora akazi ko kwiruka mu Rwanda rwabonetse.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, harimo imipira bakina, harimo umupira bakina bashyira mu nkangara, harimo umupira w'amaguru ufite amabara y'umweru n'umukara, hari ingofero yabugenewe yifashishwa irinda umutwe mu gihe abakinnyi bari gukina.

Umugore uri kumwe n'umwana mutoya bigaragara ko ari kumupima, yamutunze igikoresho cyifashishwa n'abaganga bapima imibereho y'abarwayi.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, iruhande rwe hari ubwoko bw'imbuto bugiye butandukanye, harimo imineke ndetse n'izindi, zimwe zikase izindi zibumbye.

Umugore wambaye imyenda y'ababikira uri kumwe n'undi mugore w'umuzungu bari kumwe n'akana gatoya uwo muzungu afasheho bari guseka.

Abantu bambaye impuzankano z'abantu batanga ubufasha bwihuse, bari imbere y'icyapa cyanditseho ko ari umunsi wahariwe ubufasha bwibanze ku isi.

Ishashi irambuye ku kuboko ahagana mu nkokora bigaragara yuko ari ubuvuzi buri gutangwa mu ngingo ukuboko kumwe gufashe ku ishashi ukundi kuboko kurambuye ariko kuririmo kuvurwa.

Icyumba gikorerwamo imyitozo kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa hakorwa imyitozo ngororamubiri, amagambo yanditse ku gikuta avuga ko hari ibyo bakora.

Icupa ry'amazi, imbuto zigiye zitandukanye, metero yo gupima uburebure n' igikoresho cyifashishwa mu myitozo ngororamubir, bigaragara ko ari ibintu bikwiriye gushyirwa hamwe kugira ngo ubuzima bw'umuntu ukora imyitozo ngororamubiri abe ameze neza.

Umuntu uhumirije, uri kunywa amazi, bigaragara ko ari amazi meza ari mu icupa rinini ukuboko kumwe gufashe icupa ukundi kutagaragara.

Umuntu ufashe amazi ari kuyakura mu gikoresho kimwe ayasuka mu kirahuri, bigaragara ko ari amazi meza kandi asukuye, ashobora kunyobwa agafasha ubuzima bw'umuntu.

Igare ryifashishwa n'abantu batabasha kugenda bafite ubumuga, cyangwa se bageze mu za bukuru; rifite ahantu hisanzuye ho kwicara n'aho kurambika ibirenge.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri yicaye hasi, iruhande rwe hari amazi yo kunywa n'utwuma two guterura, hari na mudasobwa.

Umusore uhagaze mu bitaro akikijwe n'ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, byifashishwa n'abaganga mu gihe bari kwita ku barwayi.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, ukuboko kumwe kwe kuri imbere, ukundi gufashe akaguru kari inyuma, yambaye ipantaro y'icyatsi.

Ukuboko gufashe amazi kuri kuyasuka mu kirahuri, bigaragara ko ari amazi meza asukuye arimo arasukwa mu kirahuri kugira ngo anyobwe.

Abantu bane bigaragara ko bari kwiruka, bari gukora imyitozo ngororamubiri bari mu muhanda mugari uba iruhande rw'ikibuga cy'umupira.

Umuntu bigaragara ko bitamworohera kugenda, uri kugenda yishingikirije ibyuma biri iruhande rwe, ari kumwe n'umukobwa umufasha, bigaragara ko ari umuganga, ushinzwe kumwitaho.

Umutwe w'umukobwa ufite imisatsi isutse y'umukara yazamuye amaboko ari kwinanura bigaragara nk'aho yari ari gukora nk'imyitozo ngororamubiri.

Umusore n'umukobwa bateruye umusore, bigaragara ko agize ikibazo ubwo yakoraga imyitozo ngororamubiri, akaba agiye guhabwa ubutabazi bw'ibanze.

Umukobwa ufite imisatsi miremire y'umukara, wambaye umupira w'umutuku ndetse n'imigozi itwara amajwi , afite icupa ari kunywa amazi, bigaragara ko yari arimo gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo wambaye agapira k'ikijuju, uri kunywa amazi bigaragara nk'aho yarari gukora imyitozo ngororamubiri, cyangwa se ibindi bintu binaniza.

Umusore ufite ubwanwa bukeya uri kunywa amazi akoresheje icupa ry'umweru, bigaragara ko ari kunywa amazi asukuye meza.

Umusore ufite icupa rinini ririmo amazi ari kuyanywa, yambaye agapira k'umukara, bigaragara ko ashobora kuba avuye nko gukora imyitozo ngororamubiri.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ikimashini cya rutura, gifite ahantu umurwayi aryama ndetse n'aho ashira umutwe, bigaragara ko ari ahantu bapimira uko umurwayi ahagaze.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo igitanda cy'umurwayi aryamaho, harimo n'imashini nyinshi za rutura, zifashishwa bapima banareba uko umurwayi ahagaze.

Imiti y'ubwoko butandukanye iri kumwe harimo imwe iri mu ducupa, indi iri mu mashashi, indi iri mu bikarito byagenewe kubika imiti hari n'inshinge n'ibirahuri.

Umugore wikenyeje umwenda w'umweru afite n'agakapu ku kaboko ari kureba mu byatsi; bigaragara nkaho ari gushakamo umuti wa kinyarwanda.

Ni abahinzi bari mu murima urimo ibyatsi, bigaragara ko ari imiti ya Kinyarwanda, byumvikana ko nayo iba igomba kwitabwaho mu gihe yahinzwe kugira ngo izafashe abarwayi.

Icyatsi gifite amababi y'icyatsi kibisi ndetse n'indabo zikiriho zifite ibara ry'umweru n'umutima w'umuhondo.

Ibyatsi by'ubwoko butandukanye, bigaragara mu mafoto abiri atandukanye, hamwe bisa n'icyatsi kibisi, ahandi byarazanye uruyange bigaragara ko byakuze.

Agacupa kanini gafite umufuniko w'umweru kariho agapapuro kanditseho izina n'amagambo asobanura ko ari ubuki, hariho n'ikimenyetso cy'igisiga kiguruka.

Icyatsi gifite amababi atoshye y'icyatsi kibisi kikagira n'imbuto zifite amabara atandukanye harimo zimwe zisa umutuku, izindi zisa umuhondo, izindi zitarafunguka.

Uducupa dutandukanye turimo imiti, harimo udufite imifuniko y'umweru n'utundi dufite imifuniko ijya gusa umutuku, twose turiho udupapuro tugaragaza amazina y'imiti irimo.

Agacupa bigaragara ko kabamo umuti, gasa umweru, gafite umufuniko w'ubururu, kanditseho amagambo yandikishije ibara ry'umukara ndetse kariho ikimenyetso cy'igisiga kiguruka.

Ibirahure bibiri birimo amazi ndetse n'amababi y'ibyatsi atandukanye. Bigaragara ko byahujwe kugira ngo bikore imiti yavura indwara zitandukanye.

Agacupa kanini k'umweru gafite umufuniko w'ubururu karimo imiti kanditseho n'amagambo asa ubururu kariho n'ikimenyetso cyigisiga kiguruka.

Imiti y'ubwoko butandukanye, imwe iri mu ducupa tw'umweru indi iri mu gacupa gafite agapapuro k'umuhondo, indi iri mu dukarito twabugenewe two kubikamo imiti mu mpande hariho amashusho y'ibyatsi bitandukanye byifashishwa bakora imiti.

Amababi menshi y'igiti bigaragara ko ari mu kirere cyane kuko urebye inyuma ubona igicu cy'umweru ndetse n'icy'ubururu, bigaragara ko ari umuti wa gakondo ariko werera hejuru.

Imiti y'ubwoko butandukanye irimo imbuto irimo indi iba yaturutse ku ruyange irimo imiti iba yasewe mbere y'uko ikoreshwa mbese ubwoko bwinshi bw'imiti gakondo buhari.

Ikiganza, bigaragara ko ari nk'ikiganza cy'umugore gifashe agacupa kariho ikimenyetso cy'igisiga kiguruka, ndetse n'izina ry'umuti, ndetse n'icyatsi cyifashishwa bakora uwo muti.

Icupa rinini ry'umuhondo, rifite umufuniko w'umutuku, ririho igisiga kiguruka kiri mu ibara ry'umutuku n'amagambo avuga izina ry'umuti atukura.

Imiti myinshi gakondo iri mu cyumba, harimo n'umugabo bigaragara ko ariwe uyicuruza n'amagambo avuga ngo kunoza urwego rw'ubuvuzi gakondo.

Uducupa turimo imiti harimo tubiri dusa n'umweru n'akandi gasa umuhondo hejuru hari amagambo ari mu ibara ry'umukara yasobanura ngo ubudahangarwa.

Imiti y'ubwoko butandukanye, hariho igiri ibyatsi, hariho isekuru yifashishwa bayitunganya, hariho n'indi y'imbuto byose birambitse ahantu ku meza.

Imiti igiye itandukanye, harimo imwe iri mu ducupa tw'umukara dufite imifunika itukura. Indi iri mu makarito yagenewe kubikwamo imiti. Indi iri mu mashashi harimo n'inanasi.

Uducupa twinshi turimo imiti, harimo n'agakarito bigaragara ko kabikwamo imiti, kanditseho umubare cumi n'umunane byose biriho ikimenyetso cy'igisiga kiguruka.

Ubwoko bw'imiti ya kinyarwanda bwinshi bugiye butandukanye, harimo tungurusumu, harimo n'izindi nyinshi buri bwoko munsi ya bwo handitse izina rya bwo.

Imiti y'ubwoko butandukanye iri mu ducupa dutandukanye, tumwe dusa n'umweru, utundi dusa n'umuhondo, hari n'ibikarito babikamo imiti.

Amacupa menshi atandukanye arimo n'imiti igiye itandukanye, yifashishwa havurwa indwara zitandukanye hari n'ibirahuri byifashishwa banywa iyo miti.

Imiti y'ubwoko butandukanye ifite n'amabara atandukanye, harimo iy'umuhondo, harimo isa umutuku, haririmo isa n'uruyange harimo nindi isa n'ibyatsi, bigaragara ko bayiseye.

Uducupa tune tungana ariko dufite amabara atandukanye turiho n'udupapuro twanditseho amazina y'imiti irimo imbere ndetse n'ibihingwa byifashishwa bayikora.

Urubuto rw'igipapayi, ruriho urwuzuye ndetse n'urundi rw'igisate, urusatuye rurimo imbuto nyinshi zifite ibara ry'umukara, ndetse n'akandi gace kajya gusa umutuku.

Agacupa gafite ibara rijya gusa umutuku, ariko ritari umutuku neza, ririho agapapuro k'umweru, kandiditseho izina ry'umuti, kariho n'ikirango cy'igisiga kiguruk, ndetse hariho n'ibihingwa byifashishwa bakora uwo umuti.

Imiti y'ubwoko bugiye butandukanye, harimo imwe yo mu byatsi byumye biseye, indi ari utubuto, indi ari imizi, n'indi myinshi iri mu mufuka, yose yifashishwa kuvura indwara zitandukanye.

Abantu benshi bambaye imipira y'icyatsi isa ifite n'ibirango bisa, hari n'abandi bambaye imyenda itandukanye, bari mu murima urimo ibyatsi byinshi birimo n'ibigaragara cyane nk'igikakarubamba.

Utujerekani dutoya turimo imiti kamwe gasa umuhondo, utundi tubiri dusa umweru, ariko buri kose kandiditseho izina ry'umuti urimo, ndetse twose dufite ikimenyetso cy'igisiga kiguruka hejuru hari igihingwa cyifashishwa bakora imiti irimo.

Icyatsi cy'umuharavumba giteye mu rugo ahantu kitaruye ibindi byatsi bitandukanye, bigaragara ko ari umuti gakondo, wifashishwa havurwa indwara zitandukanye.

Ibirahuri bibiri birimo amazi ndetse n'ibyatsi by'ubwoko butandukanye, bigaragara ko byahurije hamwe ngo bikore umuti wifashishwa mu kuvura indwara.

Imiti y'ubwoko butandatu butandukanye irimo isa n'icyatsi, harimo ifite uruyangye harimo ifite imbuto iruhande rwayo hagaragara ahantu igenda ifasha.

Agacupa k'umweru kariho agapapuro k'umuhondo, kariho amagambo yandikishije ibara ry'umukara, iruhande hari icyatsi cy'igikakarubamba bigaragara ko imiti irimo ariho ishobora kuba ikoze.

Icyatsi gifite ibara ry'icyatsi kibisi giteye ahantu k'ubutaka buteyemo n'ibindi byatsi bigiye bitandukanye bigaragara ko uyu ari nk'umuti runaka uvura indwara zigiye zitandukanye.

Imiti y'ubwoko butandukanye harimo imwe y'imbuto, harimo indi y'ibyatsi bifite uruyange, harimo indi y'ibyatsi byerera hasi, harimo n'indi y'amababi iranda.

Imiti iri mu ducupa duto tw'umweru, indi iri mu gakarito kabugenewe kabikwamo imiti, indi iri mu macupa afite ibara ry'umuhondo n'afite imifuniko isa umutuku, yose iriho ikimenyetso cy'igisiga kiguruka, bigaragara ko ikorwa n'uruganda rumwe.

Agacupa gakozwe mu cyuma kanditseho inyuguti ya F na A na B karimo imiti mo imbere kariho n'ikimenyetso cy'igisiga kiguruka gifite ibara ry'umukara.

Agacupa karekare gafite ibara ry'umweru kanditseho amagambo afite ibara ry'icyatsi karimo umuti kariho n'ikimenyetso cy'igisiga kiguruka na cyo cy'icyatsi.

Imiti ya kinyarwanda igaragara nkaho ari uduti dutoya cyane ariko dufite umumaro munini turambitse ku kabaho gafite isuku ndetse hari n'icyuma bigaragara ko cyifashishijwe bayikata cyangwa kiri buze kwifashishwa.

Igihingwa bigaragara ko hari umuti wa kinyarwanda, giteye ahantu mu ishyamba kuko hari n'ibindi biti byinshi by'ubwoko butandukanye.

Amacupa ateye muburyo butandukanye, yose bigaragara ko arimo ubwoko bumwe bw'imiti yitwa ubuziraherezo iriho ikimenyetso cyayo.

Abantu bigaragara ko ari nk'abakerarugendo bari ahantu mu ishyamba, hari n'umugezi uri kumanukaho amazi atemba, bigaragara ko ari ahantu nyaburanga.

Uducupa turimo dutatu duto tw'umweru turimo imiti igiye itandukanye hari n'akandi kanini kabamo ubuki, iruhande hari indabo bigaragara ko ari ibyo byifashishwa bakora iyo miti.

Imiti myinshi igerekeranye iri mu ducupa duteye ku buryo bumwe ariko tutangana, iri mu tubati dutandukanye.

Amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu, avuga ngo baho neza, n'ibyatsi biryamye bigaragara ko ari imiti gakondo, bifite ibara ry'icyatsi kibisi.

Uducupa dutatu tw'umweru turimo imiti y'ubwoko butandukanye turiho udupapuro inyuma dusobanura imiti irimo amazina yayo ndetse twose dufite ikimenyetso cy'igisiga kiguruka.

Amagambo ari mu ibara ry'ubururu, asobanura ngo umunsi wahariwe imiti y'abanyafurika, muri bibiri na makumyabiri na kabiri, hariho ibyatsi byinshi bifite amababi atoshye.

Ubwoko butandukanye bw'imiti ya kinyarwanda, harimo nk'igikakarubamba n'ibindi, ndetse n'ibindi byatsi bw'ubwoko butandukanye, byifashishwa bakora imiti.

Uducupa twinshi tureture turimo imiti y'ubwoko butandukanye, buri gacupa kariho agapapuro kariho amakuru ajyanye n'umuti urimo imbere mu gacupa.

Agacupa gato gafite ibara ry'umweru, kanditseho amagambo arisobanura umuti urimo, hariho n'ikimenyetso k'igisiga kiguruka gisobanura uruganda rukora uwo muti.

Uducupa tubiri duteye mu buryo butandukanye, harimo kamwe gateye ku buryo dusanzwe tuzi uducupa tubamo amavuta yo kwisiga, hari n'akandi karekare, twose turiho ikimenyetso cy'igisiga kiguruka, bigaragara ko byose bikorwa n'uruganda rumwe.

Agashashi kagenewe kubikamo imiti, karimo amagarama ijana y'umuti gakondo wifashishwa havurwa indwara zitandukanye.

Umurima urimo ibyatsi byinshi bitandukanye, harimo n'icyatsi kigaragara cyane gifite amababi y'icyatsi kibisi ndetse n'uruyange rusa umweru.

Imiti myinshi cyane y'ubwoko bugiye butandukanye, harimo imwe ifite imbuto zayo, harimo indi ifite uruyange, kuri buri muti hasi hagiye hari amakuru ajyanye na wo.

Umusore uri mu cyumba cyo kwa muganga bigaragara ko ari umuganga uri gufata ibipimo runaka ndetse hari ahantu hari uducupa turimo imiti ndetse n'utundi tuntu akeneye.

Uducupa tubiri duteye mu buryo butandukanye, harimo kamwe gateye ku buryo dusanzwe ku ducupa tubamo amavuta n'akandi karekare n'amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu asobanura kumagara.

Agakarito kagenewe kubikwamo imiti gafite ibara ry'umuhondo n'iry'icyatsi kanditseho amagambo avuga ku izina ry'uwo muti n'ikimenyetso cy'igisiga kiguruka kigirwa n'uruganda rukora imiti.

Uducupa tubiri dufite ibara ry'umweru turimo imiti imeze kimwe hariho ikimenyetso cy'igisiga kiguruka hariho n'igikakarubamba bigaragara ko aricyo cyifashishwa bakora imiti irimo.

Ubwoko cumi na bubiri butandukanye bw'imiti, imwe ari amababi, indi ari imbuto, indi ari uruyange kandi kuri buri muti hepfo hari izina ryawo.

Ubwoko butandukanye bw'imiti y'ibyatsi ndetse n'indi ikomoka ku byatsi imwe yamaze gutunganywa iri mu ducupa twabugenewe babikamo imiti indi itaratunganywa.

Icyatsi bigaragara ko ari umuti gakondo kiri kumwe n'ibindi; birimo nk'ibikakarubamba giteye ahantu bigaragara ko atari mu ishyamba, ahubwo ari ahantu habugenewe batera imiti ya kinyarwanda igiye itandukanye.

Agakarito kagenewe kubikwamo imiti, kanditseho amagambo ari mu nyuguti nkuru, agizwe n'inyuguti ya ca na ha na o na ra ndende na e na da na u na za.

Imiti y'ubwoko butandatu butandukanye, harimo imwe y'imbuto, harimo indi y'ibyatsi, harimo iy'uruyange, ku rundi ruhande hari ibyo iyo miti ishobora gufasha ku mubiri w'umuntu.

Ubwoko bw'imiti bwinshi bugiye butandukanye yamaze gusekurwa igashyirwa mu dukoresho twabugenewe harimo imwe isa umweruru harimo n'indi isa icyatsi harimo n'indi y'umuhondo amabara agiye atandukanye.

Agatsinda k'ibyatsi byinshi, biri kumwe byegeranye by'umuti, biri ahantu mu ishyamba bikikijwe n'ibindi byatsi by'ubwoko butandukanye ndetse n'ibiti.

Amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu avuga ngo "baho neza" n'ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi kibisi, bigaragara ko ari imiti ya kinyarwanda yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Agacupa gato k'umweru kariho agapapuro kandiditseho izina ry'umuti urimo ndetse gafite n'ikimenyetso cy'igisiga kiguruka. Karambitse ku isahane iriho ubuki ndetse n'ibice by'imbuto bigaragara ko ari byo byifashishwa bakora umuti urimo.

Icyatsi bigaragara ko ari umuti wa kinyarwanda, hari akaganza kagifasheho kakerekana, bigaragara ko hari umuti wifashishwa havurwa indwara z'ubwoko butandukanye.

Ubwoko bw'imiti butandukanye, buri mu tubakure tugiye dutandukanye, yose igiye ikozwe n'ibyatsi bitandukanye, yose ikaba yifashishwa havurwa indwara zitandukanye.

Agacupa gato k'umweru karimo umuti wa kinyarwanda ufite amagarama ijana ngariho n'ikimenyetso cy'igisiga kiguruka ndetse hariho n'izina ry'umuti.

Agacupa gato k'umweru karimo umuti kanditseho amagambo amwe asobanura umuti uririmo imbere kariho n'ikimenyetso cy'igisiga kiguruka.

Imiti myinshi cyane y'ubwoko butandukanye iri ahantu hamwe harimo imwe iri mu ducupa, harimo indi iri mu dukarito, harimo indi iri mu masashe.

Icyatsi cy'umuti wa kinyarwanda wifashishwa havurwa indwara nyinshi z'ubwoko butandukanye. Ushobora gukoreshwa ari icyatsi cyangwa se kikabanza kigatunganywa kikanyuzwa mu ruganda.

Akajerekani gatoya kabamo umuti, kariho ikimenyetso cy'igisiga kiguruka, hepfo yako hari amagambo asobanura, amakuru ajyanye na ko ndetse hariho n'ibihingwa byifashishwa bakora uwo muti.

Agakarito gafite ibara ry'umweru, karimo imiti, akanditseho amagambo menshi, amwe yandikishije ibara ry'ubururu, ari ahantu hasa umweru, n'andi yandikishije umweru, ari ahantu hasa ubururu.

Agacupa gato k'umweru, karimo imiti mo imbere, kariho agapapuro kanditseho amazina y'umuti, kariho n'ikimenyetso cy'igisiga kiguruka kigaragaza uruganda gakorwamo, hariho n'uruyuki ruri ku rurabo.

Imiti y'ubwoko butandukanye, iri mu bikarito byagenewe kubikwamo imiti n'urubuto rw'inanasi ndetse n'imineke isa neza y'umuhondo n'ururabo iruhande rw'imiti.

Inyubako zigaragara mu buryo bubiri, hari inyubako iri ruguru n'inyubako iri hepfo zitandukanye, hagati yazo harimo ikigega, izo nyubako zifite ubusitani, ubusitani bukaba bukikijwe n'indabo zitandukanye iz'umuhondo n'iz'icyatsi kibisi.

Imiti y'ubwoko butandukanye harimo iy'ibyatsi hariho n'uruyange rusa umutuku, hariho ubwoko bwinshi butandukanye bwa maze gusekurwa, hari n'agacupa gasana n'akarimo ubuki.

Ubwoko cumi na bubiri bw'imiti gakondo bugiye butandukanye, hari imwe ikoreshwa ari amababi, indi igakoreshwamo imbuto zayo, indi igakoreshwamo uruyange rwayo, yose ikaba yafasha mu kuvura umuntu.

Udukarito tubiri dutoya tubikwamo imiti, turiho ikirango cy'igisiga kiguruka; kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'amagambo asobanura izina ry'umuti, yanditse inyuma ku gakarito.